Abagabo batatu bameze nkaho barimo baramamaza Ikigo cy'Igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya Airtel, kizwi ku mabara cyane cyane y'umutuku n'umweru.

Umugore wambaye baji mu ijosi ufite udusatsi yasokoje neza akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma ye hari ibirango by'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya Airtel.

Inyubako ikoreramo ikigo k'Igihugu k'itumanaho mu Rwanda cya MTN aho hari abantu benshi bagiye bahagana bashaka ko babakemurira ibibazo bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umuhondo, ku ruhande hakaba hari imbuga ishashemo amapave, hateretsemo kandi umutaka w'Ikigo k'itumanaho cya MTN.

Akazu kubakishije ibyuma gakorerwamo n'umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho mu Rwanda cya Airtel kizwi ku kuba kirangwa n'amabara atukura.

Inyubako igiye ifite imiryango y'ubucuruzi bucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho hariho ibyapa by'imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda nka Airtel ndetse na MTN, hari kandi umugabo uhagaze imbere ya kontwari arimo aragura.

Mu Rwanda ikoranabuhanga rimaze gutera imbere aho usanga umuntu ashobora kubikuza cyangwa se akabitsa amafaranga atiriwe abonana n'abakozi b'ikigo k'imari ahubwo akoresheje uburyo bwa murandasi.

Abakozi batatu b'Ikigo k'Igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya Airtel baricaye, imbere yabo hari ameza babiri b'abagabo bambaye amakote, umwe w'umugore yambaye ikanzu n'amaherena.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako iriho ibirango by'ikigo k'itumanaho cya MTN ndetse na Airtel, yambaye agapira k'umweru karimo imirongo ndetse n'ipantaro y'umukara, afite igare rimwe rizwi ko ridatwara abantu.

Umugabo urimo aragenda ku mapave, afite igare arimo arasunika, hirya hari imodoka ndetse n'umutaka w'ikigo cy'itumanaho cya MTN.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, aho handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umukara avuga ngo akira cyangwa se wohereze amafaranga binyuze muri Mobile Money.

Mu muhanda wa kaburimbo haparitsemo umumotari uhagaze kuri moto ye ndetse akaba yambaye kasike y'umweru, ku mpande hagiye hari imitaka y'ibigo by'itumanaho bibiri bikorera mu Rwanda cyaba icya MTN ndetse na Airtel.

Umugabo w'igikara wambaye ishati na yo y'umukara, yatuzwe telefone, birasa nkaho ari abanyamakuru bari kumubaza ibibazo na we akabasubiza kugira ngo abahe amakuru.

Abadamu babiri bahagaze bakikije umwana umwe w'umuzungu, aho bafashe igipapuro kiriho Cheque y'amafaranga runaka, inyuma yabo hari abandi bahagaze barimo barabareba uburyo bifotoza.

Abantu bicaye harimo abagore n'abagabo bicaye mu buryo bw'ikiziga bigaragara ko bari mu ishyirahamwe aho bizigama amafaranga ndetse akaba yabafasha kwiteza imbere mu gihe kizaza.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho isakaje amabati atukura ndetse ikaba iteye n'amarangi y'ubururu, hejuru y'umuryango hakaba handitseho amagambo agaragaza ko ari Sacco y'Umurenge ndetse haparitse na moto.

Abamama barimo abafite imisatsi miremire ndetse n'abambaye amaherena, bahagaze imbere y'ameza ateretseho imifuka ndetse n'ibikapu, harimo umuceri ndetse mu bikapu hakabamo n'imyenda.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hahagaze abahungu ndetse n'abakobwa b'urubyiruko, bafite icyapa kigaragaza ko ari inama y'urubyiruko rwa Nyagatare.

Inyubako nziza yubatse neza ikaba yubakishije amatafari ahiye asizwe irange ritukura ndetse hejuru ikaba iteyeho irange ry'umweru, hasi imbere hari abantu baje bahagana baje gushaka serivisi zitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bugezweho hano mu Rwanda ndetse butanga amafaranga menshi cyane, ni byiza ko nawe wabukora kugira ngo uzabone amafaranga.

Abagabo n'abagore biganjemo abambaye imipira y'ubururu iriho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hari umwe ufashe mikoro arimo arabagezaho ijambo, imbere yabo bose hari inanasi.

Abantu bambaye neza bigaragara ko ari abayobozi batandukanye, barahagaze barimo barifotoreza imbere y'inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye bisa nkaho ari kuri poste de sante.

Abayobozi batandukanye bicaye ku ntebe nziza cyane zigezweho, imbere yabo ku meza harambuyeho igitambaro cy'umweru ndetse hateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa.

Mu tubari dutandukanye two mu Rwanda haba harimo inzoga zikomeye zaba izisindisha cyangwa se izidasindisha zifashishwa mu kuziha abaturage batanywa inzoga, izisindisha zinyobwa n'abanywa inzoga.

Mu tubari, mu mahoteli ndetse n'amaretora baba bacuruza ibyo kunywa bitandukanye yaba ibisindisha ndetse n'ibidatindisha bityo buri muntu wese uhagannye akaba yahitamo icyo ashaka bitewe n'ibyo akunda.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare w'igikara ari mu iduka rye arimo aracuruza ibicuruzwa bitandukanye biri mu mapaki ndetse n'uducupa dutandukanye.

Ahantu heza hari ama pave ndetse haparitse n'imodoka, hari kandi intebe zikoze muri pulastike z'ubururu ndetse n'umweru, inyuma yazo hari amabase agerekeranyije.

Umubyeyi w'umumama urimo aramwenyura arimo arareba neza, ari mu isoko arimo aracuruza ibintu bitandukanye nk'umuceri, umunyu, amavuta, ibirungo ndetse n'indagara.

Imbuga iriho amapave ndetse bigaragara ko yatangiye gusaza, imbere yayo hari inyubako icuruzamo imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'ibikinisho by'abana ndetse n'ibiribwa.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi afashe ikayi arimo arareba abamubereyemo amadeni, inyuma ye hari ibicuruzwa byinshi biri mu mapaki atandukanye yaba amashashi, uducupa ndetse n'ibindi.

Umugore wambaye ijipo itukura n'umupira w'umukara ndetse n'inkweto z'umweru yunamye mu iduka rye arimo aracuruza biragaragara ko harimo n'inzoga zifashishwa n'abakire.

Iduka ricuruza amavuta ajyanye n'ubwiza aho riganwa n'abantu bashaka amavuta yo kwisiga kugira ngo bagende bakeye kandi basa neza cyangwa se rimwe na rimwe abakobwa bakahagana bashaka amavuta amwe ahumura kugira ngo bagende bahumura inzira yose.

Mu bucuruzi abakora za butike bacuruza ibintu bitandukanye nk'umunyu n'ibibiriti byifashishwa mu gucana umuriro iyo abantu bagiye guteka.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwaba ubw'imboga, ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo bakeneye hafi igihe babikenereye, hari kandi n'irindi ricuruza imyambaro.

Mu iduka haba harimo ibikoresho byinshi abaturage bakenera igihe bibaye ngombwa nk'ibyo guteka, ibyo kunywa ndetse n'imyambaro cyane cyane iy'abana.

Umubyeyi wishimye cyane w'inzobe urimo uramwenyura, arimo arifotoreza mu iduka rye acururizamo ibintu bitandukanye nk'imitobe, ibitenge ndetse n'ibindi byifashishwa n'abaturage.

Urusengero rwubatse neza biragaragara ko rwubakishije amabati atukura n'amarange y'umweru, hari kandi umuryango uriho akantu kameze nka mpande eshatu.

Abantu bambaye imyenda ijya gusa icyatsi b'abamama hari ufite indabo asa n'uwari waje gufungura ahantu h'inyubako nshyashya bari bagiye gutaha.

Abantu b'igitsina gore bane ndetse n'umugabo umwe uri hagati yabo wambaye umupira w'icyatsi, ku ruhande hari umukobwa ubona ko afite imisatsi izinze, umudamu uhagaze afite ikintu ari kugenda abasukira.

Mu Rwanda hari amadini atandukanye aho agenda agira abayoboke bitewe nuko abantu bagenda bayakunda, aba bantu tubona barimo barasenga ni Abakatolike.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho bwa etaje isize amarange y'umweru, imbere yayo hari abantu biganjemo abambaye imyambaro y'umweru barimo barifotoza.

Urusengero rw'itorero rikorera mu Rwanda rya ADEPR, rwubatse neza rusakaje amabati atukura, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru avuga ngo umuhango wo gusengera umukristu w'ururembo rwa nyagatare n'abashumba ba Paruwasi.

Ubukirisitu mu Rwanda buri kugenda busubira inyuma kuko usanga hagiye haza amadini atandukanye y'inzaduka ava ku yandi madini yari asanzweho.

Mu nsengero zitandukanye usanga hagiye harimo n'imitako itandukanye ndetse n'imiteguro bitewe n'uko buri dini rigenda ritegura ibintu byaryo nko mu bakatorike usanga kuri alitari hari igitambaro gihora kihateguye.

Abantu benshi cyane bazwi cyane nk'abakirisitu, aho higanjemo abafite imitaka bisa nkaho bari bitwikiriye imvura iri kugwa cyangwa se izuba ryabaye ryinshi, bagiye gusenga biragaragara ko Kiliziya yabaye ntoya bakajya hanze bamwe.

Mu rusengero ku bantu bemera Imana bemera ko ari ahantu heza uba ugomba kwitonda ndetse ukifata neza kuko uba ugiye guhura n'Imana ndetse ukaba wahavugira n'ibyo wifuza.

Abaturage bane bahagaze bafite indangururamajwi ziriho n'imigozi barimo bararirimba, bambaye imyenda y'umweru hejuru ndetse n'amapantaro y'imikara harimo kandi umukobwa wambaye ikanzu itukura, aho yihambirije umugozi w'umukara mu nda.

Abantu abagore ndetse n'abagabo harimo n'abakiri batoya bambaye imyenda itandukanye nk'amakote ndetse n'amajipo n'amakanzu barahagaze barimo barifotoreza imbere y'icyapa.

Inyubako nziza cyane ya hoteli ikaba yegereye ahantu heza ndetse mu nzu ukaba ubona ko harimo amatara meza amurika mu mabara atandukanye, ifite pisine abantu bicaramo baje kuruhuka.

Muri hoteli nyinshi usanga batanga serivisi zigiye kumera kimwe aho usanga bose batanga nk'ibyo kurya, bagatanga amacumbi ku bantu bayashaka ndetse bakaba batanga n'amasale yo gukoreramo inama.

Muri hoteri haba hari ibyumba byabugenewe, byaba iby'abakire, abaciriritse ndetse n'abari hagati na hagati kuko buri wese abasha kujya mu cyumba yisangagamo ndetse yajya no gufata amafunguro, agafata ahwanye n'ayo afite.

Umuhanda urimo amapave ndetse hari n'akarongo k'umweru, uwo muhanda ukaba ugana kuri hoteli ndetse ku rwinjiriro hari urukuta ruhubatse rwiza cyane.

Muri serivisi zitangwa muri hoteli ndetse no mu tubari hirya no hino mu Rwanda harimo nko gutanga ibiribwa igihe bikenewe ndetse no guha abantu serivisi z'ibyo kunywa cyangwa se gususurutsa abantu bakaba batumira umuhanzi akaza kubaririmbira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiza gishasheho amashuka afite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, inkuta na zo zikaba zisize irangi ry'umuhondo. Ni byiza ko igihe cyose uganye muri hoteli ufata icyumba ufitiye ubushobozi.

Muri hoteli haba harimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyumba byo kuraramo byakira abashyitsi batandukanye, haba abakomeye, aboroheje ndetse n'abaciye bugufi. Buri wese akajya ahamukwiriye bitewe n'amafaranga afite.

Mu biribwa dufata haba harimo intungamubiri zitandukanye, ni byiza ko niba ugiye gutegura amafunguro ushyiramo ubwoko bwose, byaba ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibindi.

Aha hari icyumba cyubatse neza kirimo amakaro ndetse hari n'ubukarabiro abantu bakoresha bisukura intoki igihe bavuye mu bwiherero kugira ngo birinde indwara.

Inyubako nziza bisa nkaho ari ibitaro byubatse neza ku buryo bugerekeranije. Imbere yayo hari ubusitani bwiza bwiganjemo ibyatsi bigufiya bya pasiparumu, hirya hari ikintu kimeze nk'ikigega.

Abagabo bahagaze bambaye amakote ndetse hakaba harimo uwambaye umweru hose, barimo barifotoreza mu rukuta rw'inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, inyuma yabo hakaba hari umuryango ufunguye.

Mu mahoteli cyangwa se amaresitora akomeye usanga bafite ahantu bashyira amazi hazwi nko kuri pisine hakoreshwa n'abantu baba baje bahagana iyo bananiwe.

Kuri hoteli baba bateka ibiryo byinshi bitandukanye by'amoko yose kandi biryoshye ku buryo rimwe na rimwe nk'umuntu udakunda kujyamo ashobora kugeramo bamuha ibiryo akagira ngo ntibibaho.

Izi ntebe ni izo muri hoteli aho zicarwaho n'abantu baje bahagana igihe barimo bariyitaho bitewe n'ibyo batse yaba ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya, ibisindisha cyangwa se ibidasindisha.

Mu ngo usanga hari udukoresho dutandukanye kimwe no mu masoko amwe ataratera imbere aho haba hari bamwe bagenda botsa ibigori ku muhanda bakabigurisha abantu barimo bigendera ndetse hakaba hari na bamwe bagenda badodera abantu nk'imyenda icitse bibatunguye.

Ahantu heza hari inyubako zitandukanye zifashishwa zikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibindi bikenerwa n'abaturage kugira ngo batirirwa bakora ingendo zibavuna.

Hari ihene mu Rwanda zishobora gukura zikaba nini cyane ku buryo ushobora no kuyigurisha amafaranga menshi bityo ukikura mu bukene bikagufasha ndetse no kuba wakwishyurira abana amashuri.

Mu isoko haba harimo ibicuruzwa bitandukanye aho igihe uhagamye ushobora kuba wagura imbuto, imboga, ibinyamisogwe cyangwa se ibindi bitandukanye, haba hari kandi nka serivisi z'ibigo by'itumanaho yaba MTN cyangwa se Airtel.

Isoko riri hano ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hari ahaparitse amagare abaturage bajeho baje muri iryo soko, hari inzugi zikozwe mu biti, hari n'umudamu kandi ukuriye ihene ifite akana.

Mu isoko haba harimo udukoresho dutandukanye abaturage bakenera iyo bahageze nk'ibiribwa, ibyo kurya ndetse n'ibindi bifashisha mu gukora amasuku nk'imyeyo bakoresha bakubura ahantu haje imyanda.

Mu isoko ni hamwe mu hantu usanga ibintu bitandukanye byaba ibiribwa ndetse hakaba haba hari n'imbuto zo kurya nk'ibiteja, inyanya ndetse n'ibindi.

Igihe cyose uganye muri resitora uzahasanga intebe zitandukanye ziba ziteye neza hagati yazo hari ameza kuko ari ho abantu biyakirira ndetse bakanasangirira mu buryo bwo kugira ngo babe batandukanye birinde no kuba bagira akavuyo.

Igihe cyose ugiye muri resitora ni ngombwa gutegereza ababishinzwe bakakwakira, gusa ni heza uba ugomba kuhagana kugira ngo urebe icyo abandi bakurushije.

Iyi nyubako yubatse neza ku buryo bugezweho irimo birahure bireberana, ku mpande hari insina, imbere y'inyubako hari imbuga irimo amapave.

Mu muhanda wa kaburimbo hakaba hari abagabo bamwe bambaye amajire y'ikigo k'itumanaho mu Rwanda cya MTN ndetse hari n'imodoka ya tagisi irimo abagenzi, hirya kure hakaba hari imisozi iriho ibidukikije.

Ahantu haparitse amamoto menshi cyane akaba yiganjemo abambaye amakasike y'ubururu, aho bose bahindukiye bafite umuntu bari kureba bishoboka ko yaba ari umugenzi wari ugiye gutega.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweruru iciye. Harimo umu motari ugeze aho abanyamaguru bambukira. Ni ngombwa ko igihe cyose ahageze ahagarara akarindira ko abanyamaguru batambuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto imwe ndetse iriho n'umumotari wambaye ijire itukura ndetse na kasike byose bitukura. Hirya ku ruhande hakaba hari ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragendamo umumotari uhetseho, ibyo benshi bakunze kwita imyeyo bifashisha bakora isuku mu mbuga cyane cyane bikaba bikoreshwa mu byaro.

Umumotari wambaye ijire izwi mu mabara y'ikigo k'itumanaho cya Airtel ndetse na kasike itukura moto ye barimo barayikaika kuko igize ikibazo ikaba itari kugenda.